Zino ni imiti zifashishwa mu gutera imyaka kugira ngo izo myaka zizamere neza zitariwe n'udukoko cyangwa n'ibindi byonnyi.

Abahinzi n'abayobozi bari gutera umuti gw' ibigori mu mirima kugira ngo ibigori bizere neza.

izi ni imiti zica udukoko. Baziteraga mu myaka. Ku bahinzi nizo bakoreshaga bari gutera mu mirima zabo.

Iyi ni imiti yo gutera mu myaka, irinda udukoko, ikoreshwa n'abagoronome bari gukuhira cyangwa bari gufitetera indi myaka iri mu mumurima.

Imiti n’amafumbire byo gufumbira imyaka. Amafumbire bagabikaga ahantu heza hafite isuku， kandi habugenewe， kugira ngo bazagajane kugakoresha mu mirima， gagifite ubuziranenge bwago.

Umuti bagukoreshaga mu bihingwa kugira ngo bigurinde udukoko n' udusimba, bizafasha ibyo bihingwa kwera neza nta mbogamizi bihuye na byo.

Amafi gabaga mu mazi ariko bajaga gugaroba. Bagagajana mu rugo bagagateka bagagarya iyo bamaze gugarya babaga bariye intungamubiri nyinshi kandi nziza.

Ibiryo babiryaga muri resitora, cyangwa se muri hoteri, cyangwa se muri moteri, biherekejwe n'indimu zeze neza, zisa neza.

Aha ni ku mazi bajagayo bagiye kuruhuka, cyangwa se bakajayo bagiye kuroba amafi yo kurya, kugira ngo bagire intungamubiri mu mibiri yabo yo mu mafi.

Ubwoko bw'indagara zibaga mu mazi, ariko bazirobye bazishira mu mashashi nimwo ziri. Bazibitsemo neza bakaba bari kuzicuruza.

Amabuye g'ibitare baragamenaga, bamara kugamena bakagagurisha hakavamo amafaranga ago mafaranga rero bakagakoresha mu bindi bakeneye.

Ishamba bararibungabungaga kugira ngo ridufashe mu guhumeka umwuka mwiza cyangwa se bakarisarura bakagurisha ibiti bakabona amafaranga gavuye muri iryo shamba.

Ibihaza barabihingaga bikera neza iyo byeze neza bitangaga umusaruro, ababihinze nabo bakumva ko guhinga ibihaza bifite akamaro kenshi, kuko nabyo bitangaga amafaranga ku babihinze.

Ibirayi, bahingaga ibirayi kugira bibahe amafaranga banabone n'byo kurya. Ibirayi barabihingaga bakabibagara, bakana bicucira amazi kugira ngo bitange umusaruro mwinshi.

Bahingaga insina zikeraho ibitoki, ibyo bitoki bakabijana kubigurisha ku isoko. Insina zeragaho ibitoki bakabijana kubigurisha.

Guno ni umuhanda gw'abaturage, guteyeho igiti. Icyo giti gitangaga umusaruro, abaturage bakabona amafaranga go gukoresha.

Betarave ni igihingwa ciza cane, gifashaga abaturage mu kubongerera amaraso. Iyo cyeze neza, gikorwagamo umutobe go kunwa, cangwa se kikaribwa nk'ibindi bihingwa bisanzwe.

Aya ni amabuye aba ari mu mugezi utemba. Ano mabuye, bashobora kuyagurisha bakabonamo amafaranga. Cyangwa se ano mabuye akaba akurura ba mukerarugendo, bakaza kuyasura bakishyura Igihugu amafaranga.

Amajeri cyangwa amashaza baragahingaga， gakwera bakagasarura， bakagajana ku isoko. Rero gano majeri go ntabwo garigera garacyari uruyange.

Bahingaga intabire. Iyo ntabire bamara kuyihinga bakayitera mo ibihingwa. Ku ruhande rw'iyo ntabire hariho ibiti by'inintusi, izo ntusi iyo zeze barazitemaga bakaja kuzigurisha, bakabona amafaranga.

Utu ni udutoryi dutoya tuvuraga umuvuduko, baraturyaga na two ariko akenshi badukoreshaga k'umuntu urwaye indwara y'umuvuduko gw'amaraso.

Ishamba ry'ibiti iyo bikuze byarahinzwe neza, bigakura bakabisarura, byatanga amafaranga, bikavamo n'inkwi zo gucana.

Ibisheke iyo byahinzwe neza bigasarurwa , barabigurishaga bakabivanamo umutobe cyangwa se babikoragamo n'isukari . Isukari ibaga mu bisheke.

Abahinzi bahingaga ibigori kugira ngo babone umusaruro gwuhagije, gwo gutuma babona ibindi bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aya ni amashu ari mu umurima ameze neza ategereje kwera bakayasarura, bakayajyana ku isoko kuyagurisha nabo bakabona amafaranga avuye muri yamashu.

Imishwi z'inkoko bazororeraga ahantu heza kandi hafite isuku bakazigaburira ibyokurya by'imishwi bifite intungamubiri zose.

Umuturage iyo yahinze neza akeza neza agasarura arishimaga cane kuko abaga yishimye kubera ko yasaruye byinshi kandi byiza.

Umuhinzi yikoreye ingemwe, agiye kuzitera mu murima we. Izo ngemwe ni iz'imboga.

Amateke geze neza, gafasha abantu kugira imbaraga, gagafasha abantu gukomera. Gararyoha cyane.

Umuhinzi iyo yahinze neza ibihingwa bye akabona bimeze neza, arishima cyane kuko aba ari kubona ko azabona, umusaruro mwinshi uwo musaruro ukazamuha amafaranga.

Ibigori barabiryaga, barabihingaga byakwera bakabisarura, baranabirya. Babijyagamo akawunga, cyangwa bakabinywamo igikoma. Ibigori.

Umuhinzi ari mu ngemwe z’ibiti by’ikawa, barabihingaga, bikavamo ikawa, bakabijyana ku masoko kuzicuruza.

Abahinzi bahingaga amashu bagasaruye. Kuko gari geze neza kandi ganameze neza, ubu bagiye ku gagurisha.

Imbuto zitandukanye zihingwaga mu mirima. Iyo zeze bazijana mu isoko. Zirimo wotameruni, amaronji amavoka byose bakabijana ku bicuruza.

Mu isoko bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'imboga harimo: ibitunguru , pavuro ,kokombure n'insenda na karoti n'imiteja, byose abahinzi babagaba barabihinze byakwera bakabisarura bakabijana ku isoko.

Aborozi n’abahinzi bari gukora ifumbire yo kuzahingisha mu gihembwe gitaha. Babyitabiriye ku bwinshi, bahingaga bakoresheje ifumbire.

Aga mashu bari kugasasira. Kugira ngo gazere, bazagasarure gameze neza, gatange umusaruro. Abahinzi bari gusasira amashu, bari no kugabagara.

Ibi ni ibigori biri mu murima bamaze kubibagara, ariko biracari bitoya bitegereje kwera. Nibizera bazabisarura na byo, babigurishe babone amafaranga.

Amashu ni igihingwa ciza cane cera neza iyo bagikurikiranye neza ,amashu iyo geze neza bagahinze neza bakagakurikirana gatangaga umusaruro mwinshi.

Uburo barabusarura, bakabwanika, bakabuhura. Barangiza kubuhura bakongera bakabwanika, barabugosora, bakabubika neza mu mifuka myiza.

Ano ni amaronji ya oranje yeze. Ku ruhande hariho irindi ritonoye, ariko naryo ryatonowe ryeze. Barayarya, ariko kuri ayo maronji hariho utubabi tw'icyatsi.

Voka ni igihingwa cyiza kiraryohaga, zifashishwaga ku bantu bafite ikibazo cy'uruhu barazisigaga kugira ngo bagire uruhu rwiza kandi ruyaga cyangwa bakazirya, iyo zihiye neza baraziryaga.

Izi ni imyumbati. Zeze neza, zikaba zisaruwe zimeze neza. Zino myumbati barazihingaga, zikamera gutya.

Umuhinzi arishimaga cane iyo yahinze ibihingwa bye nk'inyanya akabona biri gukura neza ,biri kwera neza arishimaga kuko aba yizeyeko agiye kubona umusaruro mwinshi cane kandi mwiza.

Kwiga ibijanye n'ubuhinzi ni ikintu cyiza cane kuko bigufasha kumenya uko wahinga ibyo wahinga byose bikaguha umusaruro mwinshi, ugo umusaruro gwaboneka nawe ugatangira kubona ku mafaranga.

Umuhinzi arasobanura iby'abahinzi mu kibaya kiri iruhande rwe, cubakishije inzu y'ibiti n'amabati.

Ibinyomoro ni igihingwa ciza cane. Gifashaga abaturage n'abandi bantu baba barwaye kubongera amaraso mu gihe bafite ikibazo cy'amaraso kandi babijanaga ku isoko bakabigurisha bigatanga amafaranga.

Inyanya iyo zahinzwe neza, zigakurikiranwa neza, barasaruraga bakavanamo umusaruro mwinshi. Ugwo musaruro gw'izo nyanya bakagujana ku isoko, bakazigurisha kugira ngo babone agandi mafaranga gwo gukoresha ibindi bintu.

Aga matunda ntabwo garigera ariko garumye bivuze ngo gafite ikibazo cy'uko gatakurikiranyweho neza.

Iyi ni sitoke y'ubucuruzi icuruzaga imiceri. Imiceri yahinzwe n'abahinzi.

Ibireti barabihingaga, ariko iyo byeze barabisoromaga bakabijana ku isoko, bakabigurisha ahantu habugenewe nko mu nganda. Ibyo bireti bakazabikuramo imiti zo kuvuza abantu.

Iyo bahinze ku izuba, bacuciraga imyaka zabo bakoresheje amatiyo ajana amazi mu murima kugira ngo izo myaka zizakure neza.

Abahinzi bajaga guhinga mu umurima bajanye amasuka gabo kugira ngo bahinge neza, bazabone umusaruro mwinshi, byose babivanye mu guhinga babikunze.

Abahinzi babagaraga ibihingwa byabo， kugira ngo bazabisaruremo umusaruro mwinshi. Ubu bano bahinzi bari kubagara ibihingwa bahinze.

Ibigori ni igihingwa ciza cane, kuko gitangaga umusaruro mwinshi iyo byahinzwe neza bigafumbirwa neza, mu gihe bikwiye bakabikurikirana neza, bitangaga umusaruro mwinshi.

Abahinzi basaruye ibishimbo byabo, bari kugirwa inama z'uko bazabihunika cyangwa se bakabibyaza umusaruro, ubutaha bakazasarura byinshi kurenza ibyo basaruye ubu.

Aborozi bitabiriye isoko ryo gucuruza amatungo harimo intama n'ihene, bagiye gucuruza amatungo hari n'abandi baje kuyagura, hari abandi baje kugagurisha.

Ibitunguru barabihingaga byakwera bakabisarura bakabijana kwisoko bivagamo umuti ku bantu barwaye ariko binafasha igogora kubirya ari bibisi.

Ishirahamwe ry'abahinzi bitabiriye guhinga bari hamwe bakoresheje amasuka. Bari guhinga ahantu bazakorera ibikorwa byabo.

Inkoko zihuriye hamwe ziri gutora ibyo kurya hasi. Izi nkoko zirorowe zorowe neza.

Ipapayi jya kizungu ni igihingwa ciza cane. Gifashaga abantu kugira uruhu rwiza, iyo bakiri bakiriye cyangwa se kikabafasha mu bijanye n'igogora ry'amara. Barabiryaga babiryaga byeze, bibaga biryoshe cane.

Ibi bihingwa barabicuruzaga. Babicuruzaga mu isoko harimo ibinyomoro, amaronji, watameroni n'imyembe. Byose barabicuruzaga.

Abahinzi barahingaga , bagahinga; ibinyomoro ,indimu , imineke n'inanasi, iyo byeze babijyana ku isoko kubicuruza.

Umuhinzi ari mu murima, ari gukurikirana ibihingwa bye ko bimeze neza, ari kureba ko azabonamo umusaruro mwiza.

Inyanya iyo zahinzwe neza zigakurikiranwa neza zikera bazijanaga ku isoko kuzigurisha, hanyuma abazihinze bakabona umusaruro gw'izo nyanya binyuze mu kuzigurisha, bakabona amafaranga menshi kubera ko zibaga ari nziza cane.

Ano ni amateke ya Bwayisi yeze neza, asa neza yahinzwe neza, barayarya . Arogeje asa neza yahinzwe neza, yakurikiranwe neza.

Bwana, matunda gareze geze neza, bagasaruye. Gafasha abantu kugira ubuzima bwiza, bagakoragamo umutobe, bakanagakuramo izindi ngemwe zo kuzatera mu gihe bazaba bagiye kongera kugatera.

Imboga ni' igihingwa cyiza cyane, gifasha abana n'abantu bakuru kugira ubuzima bwiza, kandi zibafasha kubaho batekereza neza kubera bakunda kurya imboga z'ibyatsi.

Izi ni imyembe ziri mu giti zitari zera. Ariko nizera bazazisarura, baje kuzigurisha, izindi bazirye, babona amafaranga, avuye muri izi myembe bahinze.

Igihwagari iyo cyeze neza baragihinze neza bakagisarura kivagamo amavuta meza go guteka ago mavuta baragateka bakagarya mu gihe basaruye igihwagari.

Izi ni imbuto bahunikaga zikazamera, bakazikuramo ingemwe zo kuzaja gutera mu mirima.

Izi mbuto barazihingaga bakazisarura, iyo zeze zikuma, bazikuragamo amavuta go gukoresha.

Zino ni soya zitari zasarurwa ariko zitegereje gusarurwa kuko zimwe muri zino soya zirumye. Soya bazikoresha mu rugo mu buzima bwa buri munsi.

Ibishimbo by'ibitonore biraryohaga. Barabihingaga byamara kuba ibitonore bakabisarura. Babisarura bakabitonora, bakabijana ku isoko kubigurisha.

Umuceri, iyo gwahinzwe neza, gwarakurikiranwe neza, bakaguhinga gukera, bakagusarura, baragutonoraga, bakagushira mu mifuka, bakaja kugugurisha ku masoko gatandukanye.

Ibigori bya marizori by'umukara n'umuhondo barabisaruraga bakabyanika ,bakabitonora ,byakuma bakabikoramo imbuto zo gutera mu murima.

Ingano ni igihingwa ciza kivagamo igikoma n'umutsima. baragihingaga, baranakiryaga. Kuko giteraga imbaraga ku muntu wakoresheje igihingwa cy'ingano agiraga imbaraga nyinshi.

Umuhinzi ari gukurikirana ibihingwa bye, biri mo umurima. Ari kubishira mo ifumbire, akanareba ibitameze neza.

Izi ngano bazisaruye bazishyira mu mifuka, na zo barazihinga bakazisarura zumye, bakazishyira mu mifuka bakazihunika, na zo barazirya.

Izi ngemwe barazihingaga. Bazihingaga mu murima kugira ngo bazabone umusaruro w'imbuto bashaka, bashaka kubona.

Ingano iyo zihinzwe neza zakurikiranwe neza, zitangaga umusaruro mwinshi. Ugwo musaruro guvuye mu ngano bakagukusanya bakagujana ku isoko, bakabona andi mafaranga ku gukoresha mu bindi bintu baba bakeneye.

Ubunyobwa busaruye ariko bukiri mu ibishishwa bya bwo. Ubunyobwa iyo bagiye kubuteka babutekaga bushishuyeho ibishishwa cyangwa bakabuteka budatonoye.

Ubuhinzi bw'ibihwagari ibi ni ibihwagari bikiri mu murima bitari byera, ibihwagari babihinga mu murima kugira ngo babikuramo amavuta yo kurya.

Hari ubwoko bwinshi bw’ibishimbo: hari ibishimbo bisaga umukara, hari ibishimbo bisaga umweru, hari ibishimbo bisaga umuhondo, hari ibishimbo bisaga umutuku, hari n’ibishimbo bisaga icyatsi. Byose ubwo bwoko bw’ibishimbo barabihingaga, bigatanga umusaruro mwinshi ku baturage.

Bari gusarura ibishimbo by'imiteja, barabisaruraga bakabijana ku isoko ibindi bakabirya.

Bavuye gusarura ibishimbo. Babitwara ku igare, Babijanye mu rugo, kugira ngo babyanike byume neza, bino bishimbo.

Ibishimbo iyo byeze byumye barabihingaga, ibindi bakabiteka bakabirya, cyangwa se bakabijana ku isoko bakaja kubicuruza bikaha amafaranga go gukoresha.

Basaruruye imbuto zirimo: Amashaza, ibishimbo n'ibigori n'amasaka na soya. Izi mbuto zose baraziryaga.

Zino n'ingano zitari zera, zikiri amahundo mu murima, ntabwo zari zera, iyo zeze barazisaruraga bakasihunika cangwa bakaja kuzibetesha bakazikoramo umutsima.

Ibishimbo ni byiza cyane bifashaga abantu kurya indyo yuzuye mu gihe batabonye ubushobozi bwo kugura inyama. Ibishimbo barabihingaga niyo mpamvu bitangaga umusaruro mwinshi.

Izi mbuto zivagamo amavuta yo guteka iyo zeze. Barazihingaga, bakazisarura, hanyuma bakazitoranyamo imbuto nziza bakazikuramo amavuta.

Abahinzi iyo bamaze guhinga bagasarura, bagosoraga ibyo basaruye birimo n'ibishimbo, bakabigosorera ku ntara cyangwa se ku nkoko. Bari kugosora ibishimbo.

Ibishimbo by'imiteja bitari byera bifite imiteja ibindi bikiri uruyange biraribwa mo imboga cyangwa se bakabireka bikuma, bikazavamo imbuto zo kongera gutera ikindi gihe.

Zino nkoko iy'isake n'inkoko y'inkokokazi, ni nziza zakuze neza, nazo zorowe neza.

Abaveterineri babagaga ihene kugira ngo bayivure cyangwa se bayifashe mu kibazo ifite. Bayibagaga bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Aborozi bahingaga ubwatsi hafi y'ibiraro cyangwa se ibibuti by'amatungo gabo. Ugo hano ni ikibuti cy'inkwavu, cyubatse neza.

Boroye ubwoko bw'inkoko nyinshi cyane. Inko bazororeraga ahantu heza kandi hafite isuku nyinshi.

Umuveterineri cangwa umuganga w'amatu... muganga w'amatungo, ari kuvura inka iri mu ciraro cayo. Inka bazivuraga ziri mu biraro kugira ngo zitabatera amahane.

Iyi ni inkoko y'isake yororerwaga mu rugo, ifasha kubangurira inkoko z'inkokokazi zikabyara amagi cangwa se zigatera amagi.

Umuveterineri ari gukingira inka y'umuturage. Umuturage arayimufatiye. Iyi nyana y'umuturage iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti.

Izi ni inka zorowe ziri kurisha ubwatsi. Muri uru rwuri, rurimo ibiti n'inka z'ubwoko bwose Kandi nziza.

Ingurube barazororaga iyo zorowe neza zitangaga, umusaruro mwinshi cyane. Kuko zibyaraga vuba mu gihe gito kandi zikabyara n'ibibwana byinshi.

Umworozi agomba gufata inka ye kugira ngo bayikingire, cyangwa se bayivure icyo irwaye, agomba kuyifata kugira ngo idatera amahane umuveterineri uje kuyivura.

Iyi ni inyamaswa ibaga mu ishamba, ariko ikururaga ba mukerarugendo bakaza kuyireba mu ishamba.

Iyi ni imbeba ibaga mu ishamba ariko ibaga no mu nzu. Iryaga imyenda, ikarya n'imyaka mu nzu.

Umusambi ni inyoni iba mu ishamba iryaga inzoka. Ifite umujosi muremure, guno ni umusambi gurya inzoka.

Uyu ni umusore, ni inyoni iba mushyamba, ikaba itunzwe no kurya uturabo n'umushongi w'ubukiba uba mu ndabo.

Inyoni nyinshi zibyukaga buri mu gitondo zikaja kota izuba . Zihagararaga mu biti cyangwa zigahagarara ku nsinga z'amashanyarazi. Izo nyoni iyo ziri kota izuba , zibaga zimeze neza zumva nazo zimerewe neza.

Ingagi ni inyamaswa ziba mu ishamba, zikaba zikundana, zikurura ba mukerarugendo.

Idubu ni inyamaswa iba mu ishyamba ikaba no mu mazi. Imera nk'ingurube urayireba ukabona isa n'ingurube.

Izi ni inyamaswa zo mu ishamba. Zimeze nk'inka, zifite amahembe agoromanze. Zibaga mu ishyamba cyangwa mu butayu.

Buno ni ubwoko bw'inyoni buba mu ishamba bukurura ba mukerarugendo bakaja kubusura. Barabusuraga igihugu kikabona amafaranga.

Aka kanyoni kabaga mu ishamba, gafite umurizo muremure ariko karavugaga mu gitondo kugira ngo abantu babyuke bwakeye.

Uru ni urukwavu rwo mu ishamba， rubaga mu ishamba， rwirirwaga mu ishyamba. Ruri kwirukankaga cyane ariko n'ubusanzwe urukwavu rurirukaga cyane.

Inkende ni inyamaswa zibaga mu ishamba zikozwe nk'abantu ariko zifite imirizo, zigiraga imirizo miremire.

Ugu ni umuserebanya ni ubwoko bw'umuserebanyaba buba mu ishamba. Abahigi barazihigaga bakazijana, kuzororera iwabo mu ngo.

Inkima n'inkende ni inyamaswa zibaga mu ishamba, zikunda kurira ibiti no gukina. Zibaga mu ishamba, abakerarugendo bajaga kuzisura.

Iyi ni inyamaswa ibaga mu ishamba. Ikaba ija gusa n'ingagi ariko ntabwo ari ingagi, nta n'ubwo ari n'inkende, nta n'ubwo ari n'inkima. Ifite amazuru n'amaso n'umunwa, igizwe n'ubwoya ahantu hose uretse mu isura.

Urukwavu ni inyamaswa ibaga mu ishamba ariko izikwirukanka cane ifite n'amatwi manini kandi maremare.

Idubu ni inyamaswa nini iba mu amazi y'ubukana. Irya izindi nyamaswa zo mu amazi cyangwa se ikaba irya abantu. Ni inyamaswa ifite ishusho nk'iy'ingurube.